Croix Rouge ni ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku mibereho y'abantu, cyane cyane abantu bari mu kaga ndetse n'abandi bantu bashobora kuba bahuye n'ibiza bitandukanye.

Abakozi ba kuruwaruje bariho barazana ibikoresho baha abaturage mu bihe by'ibiza nk'amashitingi bose rero bakaba bateraniye hamwe bari kugenda babishyira ku mibare kugira ngo bamenye uko babitanga.

Kwa muganga, ahantu abantu barwaye ndetse n'abumva batameze neza mu mubiribajya, bagahabwa serivisi zibafasha gutuza muri bo, ndetse bakita no ku ndwara barwaye bakabaha imiti cyangwa inshinge. Bakabaga igihe ari ngombwa kugira ngo babashe kongera kugira ubuzima bwiza.

Umuganga yifashishije imashini yo ku bitaro arimo arashyira amakuru y'abarwayi mu mashini kugira ngo igihe bashakiye bazayabone, ni ingenzi rero gukora ibi ngibi arimo akora.

Abana bato b'inshuke bahuriye hamwe mu ishuri, barimo bariga ariko bari no kwita ku buzima bwabo, ababishinzwe barabakurikirana babitaho.

Abaganga barita ku buzima bw'abaturage harimo abagabo ndetse n'abagore, aho bari kubatera inshinge abandi bakabafata igipimo kigaragaza umuvuduko umubiri wabo uriho.

Abayobozi batandukanye mu nzego za Leta y'u rwanda harimo abashinzwe umutekano abapolisi, abasirikare aba DASSO, ndetse n'abandi bategetsi bahuriye hamwe bataha igikorwa remezo. Akana ni akagozi rero baca iyo bari gutaha igikorwa remezo runaka.

Abana bo mu ishuri ry'incuke, mu ishuri bari kumwe n'umwarimu abereka ibyo bandika, baratega amatwi maze bakandika nyuma bakamuhamagara kugira ngo abakosore abereke ibyo bakoze neza ndetse n'ibyo gukosora.

Kurwanya amakimbirane mu miryango ni uburyo abaturage ndetse n'abayobozi bakoresha bandika ibyapa, bafatamikoro bakavuga cyangwa se bagakora urugendo bagenda bavuga ko bashaka ko abaturage babana mu mahoro ndetse no mu bwumvikane n'inyungu bazabiboneramo.

Ubucuruzi bw'imiti y'abantu ni ubucuruzi bufasha ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima gutanga imiti, aho iyo imiti ibuze mu bitaro cyangwa se mu bigo nderabuzima, abantu babasha kujya kuyigura muri farumasi.

Imiravumba icyatsi gisharira kirura cyane kifashishwa cyane mu kuvura indwara nk'inkorora ndetse no mu nda, kikaba kiba cyane cyane mu cyaro ni ho gikunze kuboneka cyane, kikaba kivanwamo n'indi miti ikoreshwa cyane kwa muganga mu kuvura abantu.

Imiti duhabwa kwa muganga, n'imiti iba yavuye ahantu hatandukanye nko mu byatsi biba mu mashyamba ndetse no mu mirima y'abaturage. Bikaba rero bifasha abaganga kuvumbura imiti myinshi cyane.

Umurwayi ararwaye arembye, muganga yamugezeho icyumvizo ku mutima agishyira mu amatwi kugira ngo yumve uko ameze, kwa muganga niko bakorera abarwayi barembye kugira ngo bamenye uko bameze.

Abaganga bari kwita ku buzima bw'abana batoya babaha imiti bakoresheje akayiko gatoya, bagenda babaha udutonganya ababyeyi nabo bari kureba uko abo bana bari kunywa iyo miti n'abandi baganga benshi bari kugenda bazenguruka mu bana bamwe bafotora abandi bagenda bategura abandi kugira ngo babashe guhabwa imiti.

Ubuvuzi bw'amatungo amato ndetse n'amaremare: nk'ihene, intama, ingurube ndetse n'inka. Bukorwa n'abaveterineri bita kuri ubu bworozi bw'amatungo kugira ngo bubashe gutanga umusaruro mwiza.

Muganga arareba mu ikarine y'umurwayi imiti bamwandikiye kugira ngo abashe kumenya neza imiti amuha ihuye n'indwara bamusuzumye, umurwayi aba yitonze ategereje imiti bamuha.